Umugabo uri mu murima w'ibigori bikuru biri hafi y'ikiyaga kandi ahetse pompe ayifatishije akaboko k'ibumoso umugozi wayo arimo atera ibigori umuti.

Mu ruganda aho bakorera amaji harimo uduvido turi ku murongo kandi tugeze ku mubare kane, duteretse tutaruzura iri kumanuka ijyamo.

Muri laboratwari aho batunganyiriza imiti ijyanye no mu buhinzi harimo umuntu w'umugabo wambaye itabuye y'umweru kandi imbere ye hari mashine zitandukanye na za mudasobwa n'andi macupa.

Umurima wibigori bihinze neza biteye ku murongo, ariko bidashishe birimo umugabo uhetse pompe wambaye ga mu ntoki n'isarubeti afite umuti ari kubitera.

Indabyo zerekeye ubuhinzi kandi hari umugabo uri gutera umuti ugaragara amaboko gusa ariko wambaye ga mu ntoki z'umukara afashe icupa ririmo umuti ari gupuriza ku ndabyo zimuzengurutse.

Umuhinzi uri mu kibaya cy'umuceri uhinze ku buso bunini, urimo atera umuti akoresheje bope iyi baheka umugongo, yateze igitambaro mu mutwe, afatishije akaboko k'iburyo.

Umugore uhetse pompe wambaye ipantaro n'umupira w'umweru ari gutera imyaka umuti ugenda ayizenguruka ihinze mu buryo bw'amakaro kandi hirya yayo hari n'indi ihahinze.

Igitara gikoze mu twuma kandi hashinze ibiti bikaho isambaza, hariho umugore wambaye isaha, ufite umufuka kandi yawukojejemo isahani agiye gusuka imyaka ku gitare.

Icyuzi cyubakiye kizengurutswe n'ibihuru, kandi hafi yacyo hari umugabo wunamye wambaye ishati n'ingofero, ufite indobo y'umuhondo arimo arebamo umeze nk'ugiye guteramo ikintu.

Ikiyaga kirimo abagabo bane barimo baroba isambaza zo mu mazi kandi bateruye umuraga bawufite hagati yabo.

Ikiyaga kirimo ubwato kandi bw'ikipe, hicayemo umugore afite ingashyi ari kuvugama cyangwa se ibyo bamwe bita kugashya, kirimo ubugugu bwameze.

Ahantu mu gishanga, hanini, hegeranye, n'ishyamba, rinini, risa nkirikizengurutse ari ibyuzi, bihari, byubakiye, birimo amazi, bimeze neza, byororerwamo amafi.

Ubworozi bw'amafi ahari ibyuzi bitandukanye byubakiye neza, hifashishijwe supaneti hari indobo iri inyuma mu mazi, imbere yayo n'abagabo abiri hagati yabo harimo n'indobo iteretse.

Icyayi gihinze ku buso bunini kirimo abagore batatu bari kugenda ku murongo bashoreranye umwe imbere undi inyuma, undi inyuma gutyo kandi bahetse ibikoresho bari gusaruriramo.

Mu murima ahahinze umuceri ugeze mu gihe cyo gusarurwa, harimo abagore babiri bahetse ibikoresho byo gusaruriramo, barimo basarura kandi umwe arimo azamura akaboko ngo ashyiremo, undi ari hakurya ye.

Umurima w' ahantu heza hakaba hari igihingwa k'ikawa kigeze mu gihe cyo kwera, kiriho ibitumbwe ariko bitaratukura, amashami ariho ibibabi bike bike.

Mu kibaya cy'umuceri, kiri ku ubuso bunini, kizengurutswe n'ishyamba, hagati hubatsemo inzu, no hakurya yacyo hari inzu, kandi umuceri ugeze mu gihe cyo kuyagika, ariko hafi yaho hari ibindi bihingwa.

Umugore wambaye amataratara n'ingofero y'akajaketi k'umutuku n'ishati y'umweru n'igiti cy'ikawa gifite amashami ariko z'ibitumbwe zitaratukura abifasheho akoresheje akaboko k'iburyo.

Icyayi gihinze neza ahantu hanini ku buso bugari hakurya yacyo hari ibiti n'amapironi mu cyayi harimo abagore babiri bahagaze bari guseka kandi cyane, hagati yabo hateretsemo urutete bari gusaruriramo.

Umugabo uhagaze, ari kumwenyura, mo gakeya, yenda guseka, ufite umusatsi mukeya, mu ntoki, afashe, agashami k'ikawa kariho ibitumbwe, ibitukuye, n'ibidatukuye.

Ibihingwa ngengabukungu, hakaba hari abagore bahagaze hamwe, bari gukoma mu mashyi, undi ari gukenyera igitenge, bari ahantu ku kibaya hahinze imyaka imeze nk'ibitunguru biri mu ibase, hakurya yaho hari ibiti bikuru.

Igihingwa ngengabukungu n'umuhinzi urimo agenda iruhande rwe hari insina, inyuma ye hari ibiti kandi ateruye ikintu kiriho imbuto n'ururabyo yambaye umupira w'umweru n'amabara y'umukara hamwe n'igitambaro cy'umukara.

Ibihingwa ngengabukungu biri mu kibaya ariko hasa nk'azamutseho bikaba bihinze neza bikoreye nta byatsi birimo, hakurya yabyo hameze nk'ahari ishyamba.

Igihingwa ngengabukungu igiti giteye k'ikawa kiriho: ibitumbwe, ibibisi, ibitukuye ibindi by'amagaju, bitarera neza ariko kiri ukwacyo ntakindi byegeranye.

Igihingwa k'ikawa kiri ku gashami kandi gifite ibitumbwe by'umukara bitararatukura neza amababi makeya kandi nayo agiye yenda utukura.

Imiti y'inyamaswa ifashishwa mu kuzivura indwara zigiye zitandukanye, hari ikiganza gifashe icupa mu ntoki ryitwa "Kyline" kandi ryanditseho ngo "Eye wound powder"ukaba ukoreshwa mu kuvura amaso y'amatungo nk'ihene.

Utuvido tw'arindwi dufite imifuniko y'umweru kandi tumwe duhagaze utundi turyamishije, kamwe gashushanyijeho inka y'imbyeyi utundi hariho ibishushanyo.

Amacupa y'imiti ari hamwe, amwe agiye ageretse ku yandi, afite imifuniko y'umweru, ikaba ari imiti y'amatungo ashushanyijeho n'inka kandi n'ihene.

Imiti y'ininyamaswa yo mu macupa atandukanye kandi ari kumurongo, hariho ibipapuro by'umweru afite imifuniko itukura, yo ubwayo akaba afite ibara ry'umukara.

Imiti y'amatungo iri mu bikarito bitandukanye, y'amabara anyuranye, bigiye bigerekanye bishushanyijeho inka y'umweru n'indi ifite irindi bara.

Amacupa, ane, ateretse, kandi, afite, imifuniko, kandi, agiye, afunikishije, amashashi, akaba, arimo, imiti, yifashishwa, mu kuvura, inyamaswa.

Imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, kandi hakaba hari igishushanyo gishushanyijeho itungo cyanditseho amoxy line n'andi macupa ari mu ibara ry'umukara, imifuniko isa, atonze ku murongo.

Ibiti binini bikuru kandi n'igare rihetse imizigo riri gusunikwa nabantu babiri, umwe ari imbere arifashe ku mahembe yaryo ari we uriyoboye, undi ari inyuma afashe ku mifuka.

umugore w'umuhinzi uhagaze mu murima wambaye ijipo y'umutuku, irimo amabara y'umukara kandi wambaye n'umupira, ufite akaboko k'iburyo akarambuye ak'ibumoso gahinnye, ameze nk'uri guseka ahagaze mu bigori.

Umugabo munini ubyibushye wambaye ishati y'umweru, ikoboyi y'umukara ufite uruhara na we wirabura, ari ahantu mu ngemwe kandi afite zimwe mu ntoki.

Abahinzi bari mu kibaya ahahinze ibihingwa bitandukanye ,higanjemo abagabo bunamye barimo babagara n'umugore uhagaze ufite uruboga rw'igihaza mu maboko yombi, ari guseka kandi afite n'ibisuko ku mutwe.

Ubworozi bw'inkoko zorowe ku buryo bwa kijyambere ziri hamwe kandi nyinshi, zimwe ziri hasi izindi ziri hejuru, harimo n'izimeze nk'izitera amagi kandi harimo n'isake n'inkoko kazi.

Abagore babiri bavuye guhinga batwaranye isuka ku rutugu, bari ahantu mu kayira karimo ibyatsi bikuze hepfo no haruguru kandi hakurya yabo hari ishyamba.

Amasaka makuru ahinze neza kandi ashishe, imbere yayo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru afite umusatsi mukeya arimo ayarebamo.

Igisambu kirimo inka nyinshi ariko harimo n'abashumba babiri bari kumwe na zo, umwe ari imbere, nyuma yaho bari guturuka hari ishyamba ry'ibiti binini n'ibitoya n'ibyatsi.

Abahinzi bari mu murima basarura bunamye bafite amabase bamwe bambaye ingofero y'umweru abandi babagore bateze ibitambaro kandi hari ibindi bisarurwa birambitse hasi.

Umugore wumuhinzi uhagaze ateze igitambaro cyo mu gitenge, inyuma ye hari ibiti, hakurya ye aho aturuka hariyo abantu benshi, hasi aho ahagaze harimo ibyatsi bidakuze cyane, afite ingemwe mu ntoki mu maboko yombi.

Abahinzi bari mu kibaya ahahinze imyaka, harimo umugore uhagaze wambaye agasengeri k'umweru, ufite umusatsi, ari kumwe n'umugabo uhagaze imbere ye ufashe isuka mu kaboko k'iburyo kandi nawe udafite umusatsi.

Ibirayi byinshi, bitari byinshi cyane, biri ahantu hamwe mu gikoresho cyabugenewe, inyuma y'igikoresho hari ibindi birambitse hasi, kimwe gikasemo ibisate bibiri.

Ibirayi binini cyiza bijya kumera nk'ibijumba biri hamwe birunze byegeranye bitatu bibiri bibanje hasi ikindi cya gatatu kiri hejuru y'ibyo bibiri.

Ahantu mu murima ameze neza harimo imyaka, kandi harimo igihingwa kimeze nk'ipapayi, ariko gikuru cyeze kigeze mu mugihe cyo gusoromwa.

Umurima uhinze neza utarimo ibyatsi urimo imyaka yameze y'ibishyimbo n'ibigori ariko itarakura neza ikiri kuva mu butaka kandi iruhande rwayo hari ibindi bihingwa.

Umurima urimo igihanda cy'insina ariko hirya yaho hari ikigori cyavuyeho ikigori, hariho insina eshatu, ebyiri nkuru ariko indi ari icyana cyazo itarakura cyane.

Igiti giteye ahantu iruhande rwacyo hari ibyatsi ariko biranduye binarambitse, hirya yaho hubatse inzu y'ibibati, hakurya yacyo hubatse indi inzu nini nayo ifite amabati atukura.

Urwuri rurimo ibiti bikuze cyane biteye ku buryo bugiye butandukanye, kandi rwamezemo ibyatsi byinshi ariko bitari birebire cyane, harimo inka zitandukanye zirimo zirisha kugira ngo zibeho neza.

Ishyamba riteye neza ibiti riri muburyo butandukanye ariko umurongo ku buryo budacucitse bikuze harimo ibigororotse igoramye hasi harimo ibyatsi ariko bidakuze cyane.

Ishyamba rikuze rifite ibiti bikuru binini kandi bibyibushye birebire bifite amashami hasi harimo ubwatsi bw'inka harimo inka ziri kurisha iz'ibitare n'iz'umukara kandi zigiye zirisha ku murongo.

Inkwi zirunze zitinze ku masiteri ziganjemo ingiga n'izindi ntoya kandi ziri ahantu mu ishyamba zishingiye igiti kizitanze ngo zidahirima.

Ishyamba ririmo ibiti binini bikuru kandi ryegeranye ripfukiranye ku buryo utabasha kubonamo imbere, bimwe bimeze nk'ibitukura byatangiye kuma.

Ishyamba rikuru ririmo ibiti bitandukanye biteye hamwe ku buryo bwegeranye, kandi bifatanye ku buryo utabasha kurebamo, imbere harimo n'ibindi bihuru bitari ibiti by'ibyatsi.

Mu gishanga ahari ibiti bigiye bihinze ku buryo butandukanye n'ibyatsi n'imyaka, hagati yaho hari mu ikiyaga kandi hakurya yacyo hari imisozi iriho iterasi.

Ishyamba rinini rikuru ririmo ibyatsi ariko rinyuramo umuhanda, hakaba harimo imodoka irimo igenda ihetse ibintu, hafi y'aho hameze hari nk'aho ari akantu k'akabaya.

Umugore ufite indobo ebyiri z'umweru ntoya azifite mu kaboko kamwe yambaye umupira utukura imbere, arimo asoroma ikawa ashyiramo, inyuma ye hari undi mugore nawe urimo asoroma.

Igihingwa cyo mu bwoko bw'ibigori keze neza gifite impeke nini kandi bibisi bitaruma bigiye bitonoye kimwe gitonoye uruhande rumwe, ikindi gitonoye ahagana ku mutwe gusa.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru, karimo amabara y'umukara, arimo guseka gakeya, afite imbuto mu kaboko k'ibumoso, ak'iburyo gafite urubuto rumwe karuzamuye mu kirere.

Ubuhinzi bw'amashu ahinze ku buryo bwa kijyambere, ateye neza ku murongo kandi muburyo bw'amaterasi, akaba ahinze mu kibaya ku buso bunini, ameze neza nkaho avomerwa mu gihe cy'izuba.

Ingemwe za pinusi zitaragera igihe cyo kugemurwa ngo zijyanwe guhingwa ahandi, zikiri mu bifumbiro byazo ziri kwitabwaho n'abagore bapfukamye ku murongo, urimo umwe afite urugemwe mu ntoki kandi abenshi muri bo bateruye abana.

Igiti cy'umwembe giteye gihagaze gifite ubutumbwe butoya, kizengurukishijwe udutafari hasi kandi kibagaye, hirya yacyo hari ivaze irimo ururabyo.

Abantu bari hamwe higanjemo igitsina gore, bateze ibitambaro, bambaye kandi amataburiye y'umweru, barikwita kubiranga umuco, imbere yabo hari amakesi kandi hirya yabo hari abagabo bahahagaze.

Ubusitani buhinzemo imbuto za pome zeze kandi ziri ku biti bikuze neza biri hamwe n'ikiganza gifashe pome imwe iciye itari ku giti kandi inkondo yayo ireba hejuru.

Ubuhinzi bw'indabyo ahahinze indabyo zitandukanye, ziri ahantu hamwe zifite amabara atandukanye yiganjemo atukura, harimo umugabo uri kuzitaho wambaye bote z'umukara n'ishati ifite umufuka ku ruhande n'ipantaro yunamye.

Ubuhinzi bw'indabyo zigiye zitandukanye z'amoko anyuranye, z'amabara adahuye, ziri kwitabwaho n'umugore munini, ufite iherena ku gutwi, wambaye na ga mu ntoki, arimo azitunganya.

Ibiribwa bitandukanye higanjemo karoti nini zeze zihambiriye izindi zidahambiriye, zirambitse kandi harimo n'amashu na yo arambitse hasi.

Umugabo ufite akamashini kandi ufite'agakapu mu ntoki, arimo avomera ingemwe z'imboga z'amashu kandi yambaye n'umupira w'ubururu n'amabara y'umweru ku ijosi no ku maboko.

Imyaka ihinze ku buso bunini ahantu mu kibaya harimo n'akazu kubakishije amatafari ya rukarakara gasakaye, ikaba iriho kandi amatiyo menshi yifashishwa mu kuvomerera imyaka.

Ubuhinzi bukoresha uburyo bwo kuvomerera ahahinze ibihingwa bitandukanye harimo umusaza wambaye imyenda yiganjemo ishati n'ingofero, kandi ipantaro igera mu mavi ufite indobo ari gusukisha amazi.

Umugabo uhagaze afite kamambiri z'umutuku wambaye ipantaro iciyemo n'umupira kandi uri kumwe n'umugore nawe uhagaze afite ikintu mu ntoki, bari mu bigori byabo, inyuma yabo hari inyubako.

Ahantu hahinze icyayi mu mubandi kandi gihinze ku buso bunini, hakurya hari ishyamba rikizengurutse, hagati harimo amatiyo menshi ari kuzamura amazi akivomerera.

Ubuhinzi bujyanye n'ibihingwa n'ibimera bigiye bitandukanye, harimo uburyo bwa kijyambere bwo kubivomerera, bihinze ku kibaya ahantu hari ubuso bunini, hafi yacyo hari ikiraro kinyura mu kirere, hakurya hari umusozi.

Umuceri uhinze ahantu harehare h'umurambi mwiza ukuze neza hariho amatiyo aturuka mu kirere arimo azana amazi awuvomerera.

Uburyo bw'ubuhinzi ariko bukoreshwa bavomerera harimo umuntu w'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati izinze amaboko afite rozwari irimo amazi ari kuvomerera ibihingwa.

Umukobwa uhagaze wambaye botesarubetti y’ubururu, afashe itiyo mu ntoki, iriho umupira w’amazi, ari kuvomerera ingemwe z'imboga nk’amashu, kandi ari kumwe n’abandi bagenzi be b'abagabo ndetse n’ab'abakobwa.

Itiyo y'amazi iriho andi matiyo menshi ayishamikiyeho, agiye ariho imipira ijyana amazi mu murima uhinzemo imyaka, mu buryo bwo kuyivomerera bwa kijyambere.

Ahantu hahinze ibigori mu umurima biteye neza kumurongo, bikuru bigeze mugihe cyo kuyangika hagati harimo itiyo y'amazi ikoreshwa bari kubivomerera.

Umurima uhinzemo imyaka ahantu h'ikibaya h'umurambi ari ku buso bunini harimo imashini ivomerera kandi iri kuzamura amazi iyasuka ku bihingwa.

Inka zimeze neza zibyibushye inkuru ziririmo rupango aho zubakiye kandi akaba ari ebyiri imwe iri imbere indi iri inyuma y'indi hari n'abaganga bashinzwe kuzivura umwe yambaye bote z'umweru n'amasarubeti y'ubururu bakaba ari bane bahagaze inyuma y'urupango.

Inkoko ziri hamwe z'umweru, izindi z'umukara harimo isake n'inkokokazi zihagaze, izindi ziryamye, imwe iri hejuru kandi iruhande rwazo hari ibiryo byazo.

Inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko aho ari inkoko nyinshi zitandukanye higanjemo inkokokazi, amasake, zimwe ziri hejuru izindi ziri hasi ziri gutora.

Inka nini ifite amahembe manini iri mu rupango rwubakishije ibyuma, inyuma yarwo hari umugabo wambaye bote z'umweru n'isarureti ry'ubururu n'ingofero y'umweru afashe kuri urwo rupango.

Mu gihuru hariri ibyatsi bikuru n'ishyamba ridakuze cyane ariko ibiti bigiye biteye ku buryo butandukanye, harimo ihene nyinshi ziri hamwe, zimwe z'ibitare, izindi z'imisengo, hirya yazo hari abantu bahagaze barimo baziragiye.

Inka nziza ihagaze mu kiraro irimo ireba imbere yayo, ifite amabara y'umweru n'ay'umukara kandi aho iri hubakishije ibiti n'imbabari.

Ingurube ya kizungu imeze neza ishishe, ihagaze kandi iriri yonyine iri kureba hejuru yazamuye amatwi, ifite ibara ry'umweru iri mu kiraro hari n'ibiryo byayo.

Ingurube nini iryamye mu kiraro, ifite amaherena ku gutwi kandi wagira ngo ngo irabwegetse, iri mu bwoko bw'inzungu, ikaba ifite umurizo uciyemo kandi iri kureba imbere yayo.

Ibibwana bitatu by'ingurube za kizungu, biri hamwe mu kiraro cyazo. Biri kurira mu kintu bazishyiriyemo ibiryo zifite amaherena ku matwi.

Inkoko ziri hamwe nyinshi higanjemo amasake n'inkokokazi, hirya yazo hari ikigega ziri ku mbuga kandi harimo n'ibyatsi zimwe ziri gutora, izindi zihagaze zitari gutora.

Inka nini kandi idafite amahembe iri mu kiraro cyayo, ahari n'umugezi kandi hirya yayo hari umuntu wambaye bote z'umweru n'isarubeti arimo akaraba.

Akazu kubabatse neza ku buryo bwa kijyambere, kubakishije senyenge n'imbaho, karimo inkoko zigiye zibayemo mu buryo berekanye, zimwe hasi izindi hejuru y'izindi zifite n'ibiryo ziri gutora.

Ubworozi bw'inka ziri hamwe mu rupango nyinshi kandi zirimo ku murongo, imbere yaho hari abaveterineri bambaye amataburiya y'umweru n'abandi bashumba bashinzwe kuzitaho.

Ahantu h'umurambi hitaba hanini hari kubuso bunini kandi hari ibyatsi bicyeya, imbere ari inka zubabakiye zirimo imbere mu rupango, nyuma yarwo hari abagabo bahagaze harimo uwambaye itaburiya y'umweru abandi bambaye ay'ubururu.

Ingurube ihagaze nini ifite ibara ry'umweru itagaragara ku muririzo n'umutwe iri mu bwoko bw'inzungu, igeze mu gihe cyo kwima iri mu kiraro cyayo aho ihererwa ibiryo.

Ingurube nziza nini iryamye mu kiraro cyayo kandi ifite ibara ry'umweru, ikaba iri mu bwoko bw'inzungu, igaragara ko ibwegetse ibibwana, ikaba ituje itari guhuma n'ubwo iri yonyine.

Ingurube nini, ibyibushye ihagaze, munsi yayo ifite ibibwana kimwe kiri kurira, ibindi biri gukurura amabwebwe yayo kugira ngo byonke.

Umushumba wicaye wambaye ingofero na bote, ufite inkoni mu ntoki, ufashe n'ibase mu kaboko k'ibumoso, ari gushora inka nini ifite amabara y'umweru nay'umukara kandi iri mu kiraro cyayo.

Ibibwana byingurube bitatu biryamye hamwe, bibiri biryamye bireba ikerekezo kimwe cyari kiryamye inyuma yabyo kirambaraye mu biraro aho biri.

Inka ziri mu rwuri aho ziri kurisha ubwatsi zifite amahembe manini kandi ateze neza zimwe zunamye izindi zihagaze zidafite umushumba uziragiye zikemuye zonyine.

Imbuto z'ibigori zimanitse, zibitse neza, zumye, ibi kori binini biri ku giti cyabyo, munsi yabyo harimo ibyatsi biri mu bwoko bw'indabyo kandi bibikiwe kuzaterwa.

Imbuto zijyanye n'ubuhinzi ariko ibigori byumye byinshi birunze hamwe binini mbere yabyo hari abantu bahagaze abagore, abagabo n'abasaza.

Ikiganza, gisa neza, gikoreye, isuku, gifite, imitsi, yareze, ariko, ho gakeya, gifite, umuceri, kandi, udatonoye, ukiri, mu bihu byawo.

Umusaza wicaye wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ufite imvi imbere ye harunze ibigori cyinshi cyumye ari kugenda abisharika apfundikanya kimwe n'ikindi.

Abagore bari hamwe bicaye ku murongo kandi bafite amasahani mu ntoki bose, hagiye hariho imyaka kandi bambaye inkweto za kamambiri, indi myaka igiye iri mu mabase ari imbere yabo.

Inyubako yubatse neza, harimo imifuka itandukanye, ifite n'amadirishya n'ibirahure bibonerana, imbere yayo hari imiti itandukanye yifashishwa mu ubuvuzi bw'amatungo, kandi iteretse ku kintu kimeze nk'imbabura.

Ibiganza by'umuganga wabyize akanabigurirwa ushinzwe kuvura amatungo, akaba ari gusuzuma inyama z'itungo ryabazwe kugira ngo harebwe niba nta ndwara irimo yakanduza abantu.

Abaganga babiri b'amatungo bahagaze hamwe kandi umwe akaba ari umugabo undi ari umugore, bari kuvura inka ihagaze mu rupango rwubatse neza ku buryo bukomeye bukoreshejwe ibyuma ndetse na buroke sima.

Ubuvuzi bw'amatungo buri gukorwa n'abaganga babihuguriwe uko babyize, bambaye amataburiya kandi bitwikiriye mu mutwe apfutse n'umunwa, bari kuvura imbwa aho bayishyize mu byuma.

Imbere y'amazu abiri imwe isakaje amabati y'ubururu, inyuma y'izo nzu hari ibiti higanjemo iby'inturusu kandi nanone imbere y'amazu hari inka zihagaze ziri kugenda ahantu, igisambu h'ibyatsi bike bikeya ariko bitameze hamwe.

Abaganga bigiye kuvura amatungo kandi babihuguriwe, barimo bakora umurimo wo kubaga itungo barirambitse, hasi bamwe barifashe abandi barimo barivura bakoresheje inshinge n'ibiganza byabo.

Abaganga babiri bahagaze hamwe, bakaba hari aba veterineri bambaye amataburiye y'umweru umugabo naho umugore yambaye ipantaro ishati hejuru bombi bambaye udupfukamunwa bari mu nyubako ifite idirishya rikinguye.

Igisambu kinini kirimo ubwatsi bukuze harimo ubushyo bw'inka kandi imbere yacyo hari ibiti bigiye bikuze ariko ariko biteye ku buryo butandukanye cyane higanjemo cy'umusebeya.

Igiti kinini kibyibushye kiri mwishyamba ahantu hitaruye ibindi biti, ariko munsi yacyo harimo ibyatsi, hejuru kiryamyemo inyamaswa yarambaraye kandi isinziriye.

Imodoka iri kugenda imeze nk'iyabakerarugendo iri ahantu mu muhanda ariko urimo ibyatsi, igeze imbere yayo hari imvubu ihagaze ifite umutonzi wayo muremure yayitambitse.

Ishyamba ahari igiti cyumye cyaguye kiryamyeho ingwe yasinziriye igasohora ururimi iri kumwe n'icyana cyayo nacyo kiri imbere yayo cyahuje iminwa birimo gusomana.

Mu ishyamba ririmo ibiti binini, ahariho ingwe yuriye igiti kandi isa nk'igiye kwambuka ariko yateye intambwe, munsi yayo harimo ibyatsi n'ibihuru.

Mu gihuru, ahari utwatsi dukeya n'ibiti, wagirango nibyo bashenye, harimo, ibisiga, bihagazemo, bibiri, kandi kimwe gisa nk'ikiri imbere y'ikindi, gifite amabara y'umweru n'ayumukara mu mugongo.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'intare iryamye hasi, kandi iri kumwe n'icyana cyayo gihagaze cyashyize umunwa kuri nyina, zose ziri ahantu mu twatsi.

Inyamaswa zo mu gasozi zo mu bwoko bw'inyoni, imwe iri mu mazi, indi iri hakurya y'amazi, zitari kureba icyerekezo kimwe kandi zidafite amabara asa.

Ahantu mu gashyamba harimo ibiti n'ibyatsi kandi bikuze harimo inyoni ziri mu bwoko bwibiguruka kandi zizwi ku izina ry'ibisiga zihagaze ku murongo.

Ahantu hameze nk'ubutayu hanini bw'umurambi, hari umukungugu kandi hari inyamaswa zo mu gasozi ariko ziriri mu bwoko bw'inyoni, zizwi nk'ibisiga cyangwa se imisambi, zose ziryamye hamwe ku murongo.

Umuhanda urimo imbwa enye, imwe iri imbere izindi ebyiri ziyiri inyuma, indi isutamye kuru ruhande, iy'imbere yahindukiye, iyo hagati iri kurebana na yo kandi zose zasamye.

Ishyamba riri hakurya y'amazi rinini ririmo n'ibihuru, imbere yaryo mu mazi arimo inzovu enye ariko harimo n'icyana cyazo cya gatanu, zihagaze mu mazi zirimo zinywa.